Icyapa cya Radiant kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo avuga ngo shinganisha ibihingwa byawe uhinge utekanye, impande y'ayo magambo hari umugabo wambaye akajaketi k'umukara uri mu bigori bifite amababi y'icyatsi kibisi, bigaragara ko barimo baramama ubu bwishingizi bw'ibihingwa.

Umusaza n'umukecuru, umukecuru wambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe, wambaye n'ikote ry'umukara, umusaza nawe yambaye ikote ry'umukara, kandi munsi yabo hari amagambo yanditse ngo kanda akannyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye agapira ka runiga ari kumwe n'umugabo we wambaye ishati y'umukara n'agapira k'umweru imbere. Bateruye abana babo babiri bari ku cyapa cyanditseho Radiyanti yacu, bigaragara ko barimo baramamaza uburyo bw'ubwishingizi.

Imodoka iri mu bwoko bw'ivatiri, iriho ibyapa byanditseho amagambo ngo BPR banki, inyuma yayo hari jaride iteyemo ibiti birebire bifite indabyo z'umutuku, inyuma y'iyo jaride,. hari abantu bahagaze bameze nk'abashungamirije bareba iyo modoka

Icyapa cy'ubururu n'umweru cya Radiant cyanditseho amagambo ngo Radiant Insurance Company. Cyometse ku gikuta gisize irangi ry'umuhondo n'umukara, inyuma y'icyo gikuta hari abantu babiri barimo baragenda, umwe ari kureba muri telefone.

Icyapa kirekire kizengurutswe n'akabara k'umuhondo mu mpande, mo imbere gisa umukara, kiriho ifoto y'abazungu babiri b'abagabo. Umwe wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati n'undi wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, barimo baramamaza ubwishingizi, handitseho n'amagambo avuga ngo "aho bukwiye kuba buri."

Umusore n'inkumi bicaye mu ntebe zisa umweru de, barimo barahana ibiganza, bigaragara ko bashimishijwe n'ibyo bari bamaze gusoma ku rupapuro umusore afite imbere yabo, imbere yabo hari ameza asize irangi ry'umweru, hari kandi n'igipupe kiri mu ibara rya pinki, hateretse amakayi na telefone ndetse n'amarinete.

Umugabo wambaye agapira kari mu muhondo wijimye, uri guhana censi n'umugore uri imbere ye, wambaye umupira w'umweru uhetse n'igikapu cy'umweru n'umukara, bari ku cyapa cyanditseho ngo rinda ahazaza hawe.

Icyumba cy'ubucuruzi gisize irange ry'umweru, muri icyo cyumba hamanitse imipira kuri porute manto zisa umuhondo. Iyo mipira imanitse ku kintu cy'icyuma giteye irange ry'icyatsi kibisi, na yo iri mu mabara atandukanye. Bigaragara ko aha hantu hacururizwa imyenda.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye ikote rya move, n'agapira k'imbere mo imbere, n'ipantaro y'umukara, ari impande y'aka etajeri k'umweru, afite mashine mu ntoki, isize irangi ry'umukara, iruhande rwe hari agakapu, gateretse mu kantu gasize irangi ry'umweru, ako gakapu kari mu ibara ry'umukara.

Iduka ry'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amatasi ndetse n'amaterimusi, ku ruhande rwayo hari amashati ahamanitse, amanitse kuri porute manto ziri mu ibara ry'umuhondo. Ayo mashati afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Impande yayo mashati hari indobo ihateretse iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'igikapu kiri mu ibara ry'umukara.

Icyumba cy'ubucuruzi kiganjemo amavarisi, harimo atukura, umukara ndetse n'umweru, hirya y'ayo mavarisi hapanze ibindi bicuruzwa bitandukanye birimo inkweto ndetse n'imyenda.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati y'ubururu na karuvati y'umukara n'umutuku, afite umusatsi wa natirere ni umwirabura. Undi yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ni umuzungu. Barimo barerekana muri televiziyo isize irangi ry'umukara kandi inyuma yabo hari amazu manini agiye atandukanye, ameze nk'aho ari amazu y'isoko.

Abadamu babiri basa naho bari kuganira, umwe afite telefone mu ntoki, undi afite akamashini gakata amatike, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho sekendi handi, inyuma y'umukobwa umwe nanone, hari imyenda ihamanitse bigaragara ko irimo iracuruzwa imanitse kuri porutemanto.

Imodoka nini isize irangi ry'umukara, iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo hari amazu menshi ya etaje, impande y'ayo mazu hari ibiti birebire kandi bifite amashami.

Abamanseri babiri b'abazungu bahagaze ku ruhande rumwe rw'imodoka isize irangi ry'umweru, ku rundi ruhande hahagaze umugabo wambaye rakosite y'umweru n'ipantaro ya kaki n'agakomo ku kuboko, uwo mugabo afatanye n'undi mu mansera igifunguzo kinini cyanditseho Akagera motozi, bigaragara ko barimo baramamaza.

Abagabo babiri bahagaze impande y'imodoka umwe yambaye agapira k'umukara n,ipantaro' y,umukara undi yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y,umukara afite kandi agakapu gasa umutuku bafite bombi igifuzo kinini bafashe mu ntoki inyuma yabo hari imodoka ebyiri imwe iri mu ibara ry'umukara indi iri mu ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi.

Abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ziriho ibara ry'umweru, undi yambaye ishati y'umweru n'umukara n'ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara zirimo akabara k'umweru. Bombi bafashe igifunguzo kinini mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka isize irangi ry'umukara icanye amatoroshi.

Imodoka y'Igikamyo isize irangi ry'umweru ipfutse kuri purake iri imbere y'ihema ry'umweru, impande yayo hari indi modoka isize irangi ry'umweru, imbere y'iyo modoka hahagaze abagabo batatu bafite igifunguzo kinini mu ntoki cyanditseho inyuguti ya A na B na G.

Abagabo batatu bari imbere y'igikamyo cy'umweru, babiri muri bo bambaye amajire, bacigatiye n'igifunguzo kinini cyanditseho Akagera motozi, impande yabo hahagaze umugabo wambaye ingofero n'igisurubeti cy'ubururu ucigatiye agakapu mu ntoki gatukura kanditse inyuguti ya ba.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye n'ipantaro yubururu bwerurutse, utereye umwana we ufite imisatsi, bari kujya imbere kuri bife ya banki, ifite igikuta gisize irangi ry'umutuku, mo imbere muri bufe harimo umugabo wambaye umupira w'umweru, bigaragara ko bagiye kwaka serivisi runaka.

Imodoka isize irangi ry'umukara, iruhande rwayo haparitse indi modoka nayo isize irangi ry'umukara, biri mu nzu isize irangi ry'umweru, impande y'imodoka hari imashini iteretse hejuru y'ameza akozwe mu biti.

Imodoka nshya isize irangi ry'umukara, ikinguye urugi rw'imbere ipfundikishije ishashi ku ntebe imwe y'imbere. Iparitse mu gipangu gisize irangi ry'umuhondo ndetse gifite utwuma. Inyuma y'icyo gipangu hateye ibiti birebire bifite amashami y'icyatsi kibisi.

Imodoka itagira purake isize irangi ry'umweru, iparitse imbere y'ikizu kimeze nk'igikontineri, muri icyo kizu cy'igikontineri harimo imodoka y'igikamyo, isize irangi ry'umutuku kandi icanye amatara.

Ikizu kinini cyubakishije senyege, imbere haparitsemo imodoka isize irangi ry'umweru. Hejuru gifite amabati asa shokora. Cyanditseho kandi amagambo yitwa ngo hunda yundayi imbere yacyo hari ibyuma ndetse n'imigozi y'amashanyarazi.

Imodoka nziza isize irangi ry'umukara iparitse ahantu hashashe amakaro idafite pulake, impande yayo hari indi modoka nayo isize irangi ry'umukara iri mu nzu iteye irangi ry'umweru, inyuma yiyo modoka hari icyapa cy'ubururu bwijimye cyanditseho yundayi, biragaragara ko aha ngaha ari aho bagurishiriza izi modoka.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka, inyuma yabo hari inzu isize amarangi y'umukara ku nzugi n'amadirishya ndetse n'irangi ry'umweru ku gikuta, bafite igifunguzo kinini mu ntoki cyanditseho Akagera motozi.

Imodoka nziza isize irangi ry'umukara iparitse ahantu hari sima y'igiheri, kuri pulake y'iyo modoka, hari akapa k'umweru kanditseho ngo Kigali cars market, imbere y'iyo modoka hari igikuta gisize irangi ry'umweru gifite n'ibyuma hejuru biri mu irangi ry'umukara, iyi modoka irimo iramamaza aho bagurisha iyi modoka.

Abagabo batanu bari imbere y'imodoka isize irangi ry'umweru, impande y'iyo modoka hari izindi modoka zisize irangi ry'umukara. Bafite igifunguzo kinini mu ntoki ndetse n'agakapu gasa umutuku. Inyuma yabo hari inzu nziza ya etaje, isize irangi ry'umukara, ifite ibirahure by'umweru.

Imodoka nziza iri mu bwoko bw'ikamyo, isize irangi ry'umweru, imbere yayo hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, undi yambaye agapira k'umukara n'ipantaro ya kake, bafite igifunguzo kinini mu ntoki cyanditseho inyuguti nini ya B n'indi nyuguti nini ya G n'iya A ku ruhande rwacyo.

Ibiganza bibiri, kimwe cyambaye isaha y'umukara, bifite amafaranga mu ntoki yo mu note z'igihumbi, kuri aya mafaranga, hashushanyijeho umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse na karuvati iri mu ibara ry'umukara n'umweru.

Imodoka iri mu ibara ry'umuhondo, yanditseho amagambo ngo interiseke. Iruhande rwayo hari umusekerite ufite imbunda, wambaye ingofero imurinda gukomereka mu mutwe, ndetse n'inkweto z'umukara ziri mu bwoko bwa butini. Hirya ye hari undi musekirite nawe bambaye kimwe.

Igiceri cy'amafaranga ya kera cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda, gishushanyijeho igitoki, hepfo hariho imibare, kabiri, zeru zeru, icyenda. Kiri hagati y'amabara abiri, hejuru hari ibara ry'umukara no hasi irindi bara ry'umukara.

Umugabo wicaye ucigatiye amafaranga usa n'uri kuyabara, hirya hari irindi pinda ry'amafaranga ririho agatambaro ka move ndetse na fimbo, imbere ye hari imashini ibara amafaranga.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'agapira kagizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, ari imbere ya dishe kuri banki, ahereza amafaranga umugore urimo imbere, wambaye akajaketi kagizwe n'amabara y'umukara n'umweru n'agapfukamunwa k'umukara. Imbere y'uwo mugore hari imashini na yo iri mu ibara ry'umukara, hirya ye hari akagurude atwaramo amazi.

Ameza y'ibara ry'umweru hejuru yayo hateretse ijage y'ubururu n'umufuniko w'ubururu, hirya hari ikidomoro kirimo ibara ry'ubururu n'umufuniko wacyo w'ubururu, imbere hari ipurato iriho amagi ateretse muri etajeri.

Indobo z'umweru zifite n'imifuniko yazo, zirimo amandazi. Hejuru y'indobo imwe hari akuma bakoresha batora ayo mandazi. Hirya yazo hari igikontineri gisize irangi ry'ubururu, hino y'icyo gikontineri kandi hari ijerekani iri mu irangi ry'umweru, yanditseho amagambo ngo rake.

Umugore wambaye ingofero y'ubudodo n'ikanzu y'igitenge iri mu ibara ry'ubururu n'agakomo ku kuboko, afite akabido ka arindwi karimo ibara ry'umuhondo gapfundikije umufuniko utukura, impande y'ako kavido hateretse amateremusi ari mu nzu isize irangi ry'umuhondo, hejuru kuri iyo nzu hashushanyijeho inyenyeri isa ubururu, bigaragara ko aha ngaha ari muri kantine.

Inzu nini y'igitwe, hejuru kuri icyo gitwe hubakishijwe amakaro, yubakishije kandi amatafari y'impunyu, iriho ibyapa bigiye bitandukanye, imbere yayo hashashe amapave, hari amamodoka aparitse imbere yayo asize irangi ry'umweru, n'indi modoka kuruhande isize irangi ry'umukara. Hari umudamu uri kugenda imbere yayo ufite agasharupe mu ijosi wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu.

Akavido k'umweru kererana kameze nk'akuzuye amata gateretse hasi, iruhande rwako hari umuntu wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, impande y'uwo muntu hari ikidomoro kiri mu ibara ry'ubururu giteretse hasi, hirya yacyo kandi hari umuntu uhahagaze wambaye ipantaro yo mu ibara rya kaki yijimye.

Igikombe cyuzuye amata asa umweru de, kiri hejuru y'ameza ashasheho igitambaro cy'umweru, hagati muri icyo gitambaro harimo agatambaro k'igitenge kari mu ibara ry'umutuku. Hirya y'icyo gikombe hateretse agacupa k'amazi ndetse na jenda umuntu agendana.

Ibicuba bitandatu birimo ibintu bisa umuhondo, kimwe muri ibyo kirimo ijage biteretse ahantu hari amakaro y'umweru, iruhande rwabyo hari utubido tw'arindwi tw'umweru ndetse n'umuhondo dupfundikije imifuniko yatwo y'umutuku n'umweru.

Muri kantine hari abantu 3 umwe wambaye ishati y'igitenge n'undi uhagaze wambaye agapira k'umweru gafite ibara rya orange ku ijosi n'undi wicaye ufite igikombe cy'amata ku munwa imbere yabo hari ameza asa umweru ateretseho ubuvido bw'umweru ndetse n'igicuba bigaragara ko aha bacuruza amata.

Umugore wambaye ishati n'ipantaro y'umukara ucigatiye ijage y'umweru mu ntoki, imbere ye hateretse indobo y'umweru irimo amata na we bigaragara ko ari kubuganiza amata ayavana mu gikoresho kimwe ayashyira mu kindi, inzu arimo irimo ibicuba by'amata bitunganya amata ifite urugi rusize irange ry'ubururu.

Umukobwa wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, ufite telefone mu ntoki iri mu ibara rya roza. Asize verine y'umutuku ku ntoki kandi imbere ye handitse amagambo ngo: "Kanda akayenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri umunani, urwego".

Icyapa kinini kiriho amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, handitseho ko wakwishyura ukoresheje onulayini. Hariho kandi viza ndetse n'ibindi byapa byose bikwereka aho wanyura. Mu ibara ry'umukara handitseho ko wakishyura ukoresheje ikarita.

Umugore uri kumwe n'umugabo we, uteze igitambaro kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara n'umweru, wambaye ikanzu irimo amabara y'umukara, umweru n'umuhondo n'umutuku, umugabo we afite telefone mu ntoki ifite kava y'umukara ndetse handitse amagambo avuga ngo, kanda akanyenyeri gatandatu karindwi rimwe urwego, hasi handitse amagambo ari mu ibara ry'umuhondo avuga ngo momo.

Ikiganza gicigatiye telefoni, muri iyo telefoni harimo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, hashushanyijemo itoroshi, umuntu ndetse n'akabazo. Handitsemo amagambo ngo ongera amanota yawe.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye ikote riri mu ibara rya shokora, n'ishati y'umweru mo imbere n'agashanete ku kuboko. Acigatiye agakado kazingishije agatambaro gatukura, ari ku cyapa cyanditseho Equity BCDC.

Fagitire ya BK iri mu mazina ya Emmanuel Nzafashwanayo ibikijeho amafaranga ibihumbi magana atanu na mirongo ikenda na bitandatu n'amafaranga magana atanu, irimo kashe isa ubururu yanditsweho ngo Nzafashwanayo kandi muri iyo kashi harimo icyapa cya BK.

Fagitire y'imisoro ifite tini namba ya rimwe, zeru, rimwe, karindwi, karindwi, kane, rimwe, gatanu, zeru, iri mu mazina ya sosiyete indastiriye materiye de constaragisiyo simako ibaruye ku mazina ya Oliva uwimpuhwe.

Inoti z'amafaranga agiye atandukanye, imwe yanditseho magana atanu, indi yanditseho magana abiri, indiyanditseho ijana, indi yanditseho mirongo itanu, indi yanditseho makumyabiri, indi yanditseho icumi, indi yanditseho igiceri cy'amafaranga atanu.

Intoki zifite ikaramu iri kwandika ku rupapuro, imbere y'urwo rupapuro hari amafaranga agiye ari mu byiciro bitandukanye, harimo inoti z'ijana, inoti z'ibihumbi ijana, ndetse n'ibiceri kimwe kirimo ibara ry'umweru, ibindi biri mu ibara ry'umuhondo.

Ibiganza bine bicigatiye amafaranga, imwe n'inota z'igihumbi andi ni inote z'ijana, bigaragara ko barimo barahererekanya amafaranga. Inoti y'ijana ishushanyijeho umugabo ufite imisatsi miremire kandi iriho n'ikirangantego, inoti y'igihumbi nayo iriho ikirangantego yanditseho santarare banke ofu Nayigeriya.

Ibiganza bibiri bicigatiye amafaranga y'amahanga, imbere hateretse andi mafaranga menshi cyane, iruhande rw'ayo mafaranga hari akamashini kabara amafaranga, ibyo biganza ubifite yambaye ishati iri mu ibara ry'umukara.

Ifoto iriho inote esheshatu z'amafaranga atandukanye y'amayero, imwe yanditseho amafaranga magana abiri, indi yanditseho amafaranga ijana, indi yanditseho amafaranga mirongo itanu, indi yanditseho amafaranga makumyabiri, indi yanditseho amafaranga icumi, indi yanditseho amafaranga atanu.

Ibiganza bibiri by'umuzungu, bifite amafaranga mu ntoki y'ijana, kuri ayo mafaranga hashushanyijeho umugabo ufite imisatsi miremire, imbere ye hashushanyije agakanzu kari mu ibara ry'umuhondo.

Ibiganza bicigatiye amafaranga y'inote z'igihumbi, kuri izo note hashushanyijeho umugabo wambaye ingofero, hejuru kuri ayo mafaranga hariho inyuguti ya pa na sa n'imibare ya kane umunani umunani kabiri umunani gatatu gatandatu.

Ibiganza bibiri bicigatiye amafaranga atari amanyarwanda y'ijana ijana, ayo mafaranga ariho ibirangantego by'igihugu akomokamo, ikiganza kimwe kiratwereka ko aya mafaranga ariho igihanga cy'intare.

Ibiganza bibiri bicigatiye amafaranga, kimwe muri ibyo biganza cyambaye isaha y'umukara y'urushinge, ayo mafaranga kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo inoti zisa pinki n'izindi zisa n'icyatsi kibisi, imbere yazo hari intebe, iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Ibiganza by'umuzungu bicigatiye amafaranga atandukanye. Imbere yabyo hari contwari iriho amafaranga agiye atandukanye, hariho inoti z'ijana ziriho umugabo ufite imisatsi miremire wambaye umupira w'umukara ku ijosi ufite akantu kari mu ibara ry'umweru.

Ibiganza bibiri bicegataye amafaranga y'inote z'ijana ry'Amayero, hashushanyijeho umugabo ufite imisatsi miremire, biri imbere ya bife, bigaragara nk'aho uyu umuntu aje kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikura kuri banki.

Ibiganza bibiri bicigatiye amafaranga igihumbi yo hanze n'amafaranga magana atanu. Amafaranga magana atanu ariho umusaza wambaye amarinete, ufite amatwi manini kandi ureba imbere.

Ikiganza cyambaye ikoti ry'umuhondo rifite akantu gasa umukara ku kuboko, gicigatiye amafaranga y'inote ebyiri, munsi y'icyo kiganza hari andi mafaranga ateretse ku meza afungishije fimbo, bigaragara ko uyu muntu aje kubitsa cyangwa kubikura ayo mafaranga imbere ya bife kuri banki.

Inoti y'amafaranga magana atanu ya Tanzania, ishushanyijeho umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, hejuru kuri iyo noti yanditsweho ngo banki ku ya Tanzania, impande y'iyote, harihoho amagambo arimo ibara ry'umutuku ya aza gatanu umunani ka gatatu karindwi rimwe umunani.

ibyapa bitandukanye birimo amabara y'umutuku n'umuhondo n'ubururu byometse ku nzu kimwe muri ibyo byapa by'ubururu kiriho umukobwa ufite imisatsi miremire ucigatiye amafaranga mu ntoki hirya harimu umugabo nawe ucigatita amafaranga mu ntoki na terefone y'ubururu bigaragara ko ibyo byapa biri kwamamaza ibintu bigiye bitandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, kigaragaza ko ari aho bavungishiriza amafaranga, inyuma yacyo hari inzu nini yanditseho amagambo agaragaza ko bavunjisha, aho hantu bahavungishiriza amafaranga.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo foregisi bilo cyangwa se birode shange handitseho kandi amagambo avuga ngo tuzamurane, ba pa gatatu cumi na gatatu. Hariho telefone ya zeru umunani, gatanu gatatu zeru, gatatu kabiri zeru.

Umugabo w'umuzungu w'umushinwa ucigatiye amafaranga mu ntoki ndetse na terefone, imbere ye hari undi muzungu wambaye linette n'agapira gasa ikigina uhetse igikapu cy'umukara. Iruhande rwabo hari umukobwa ufite imisatsi ya move miremire, bose bari imbere ya bife. Bameze nkaho bari kuvunjisha amafaranga.

Ameza akozwe mu rubaho, afite amaguru y'icyuma asize irangi ry'umukara, ateretse ahantu hashashe amapave, hirya yaho hari igikuta gisize irangi rijya gusa umuhondo.

Igitanda gitoya gikozwemo mu mbaho, gikikijwe nasheze esheshatu nazo zikozwe mu mbaho, inyuma yazo hari indi isheze biriri mu cyumba gisize irangi ry'umweru, kandi hasigipavumesheje amaka y'umweru.

Icyumba kiriho aho abantu bakarabira hasize irangi ry'umukara, hejuru y'aho abantu bakarabira hateretse buji yaka, impande y'iyo buji, hari icupa risa n'umutuku rifite agafuniko kajya gusa shokora.

Icyumba cyiza cyane giteye irange ry'umweru, kuri icyo cyumba hometseho utuyetajeri, kamwe kari mu ibara ry'umuhondo akandi gasize irangi ry'umweru, akandi nako gakozwe mu mbaho z'umuhondo.

Inzu irimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, harimo ameza n'intebe biri mu ibara ry'umweru, indorerwamo iri mu ibara ry'umweru, intebe ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'imisego igiye itandukanye, iri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ikijuju.

Uruzitiro rwa jaride imbere yarwo hari intebe zihateye zisa n'umukara zifite n'ameza y'umukara, hari kandi indabyo nyinshi: harimo iz'umuhondo, iza roza, n'iz'icyatsi kibisi, hari kandi n'indabyo z'umweru, hateyemo n'icyuma gifite ibara ry'ikijuju.

Inzu nini cyane ya etaje, isize irangi ry'umutuku, ifite ibirahure bibonerana, imbere yayo hari agataka kari mu ibara ry'umuhondo, imbere y'ako gataka naho hari uwundi mutaka uri mu ibara ry'umutuku, imbere y'iyo nzu hateye jaride nziza cyane itoshye.

Inzu nziza ya etaje igeretse ifite indabyo imbere yayo. Isize irangi ry'umukara, inkingi zayo zisize irangi ry'umweru, hepfo yayo hari jaride nziza cyane ya pasiparumu iteyemo ibiti ndetse n'indabyo. Imbere yayo hari amabati asa umweru.

Icyumba gisize irange ry'umuhondo gitakishije udutako tw'umuhondo n'umukara, imbere muri icyo cyumba hari umugabo uri kujya kwaka serivise kuri bife wambaye akarakosite k'umweru n'ipantaro y'umukara. Mu imbere abari bumuhe serivise bambaye imyenda y'umweru, bigaragara ko ari icyumba cya banke cyangwa indi serivise yerekeranye nabyo.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umuhondo, ifite parofo isa umweru nziza cyane ndetse n'amatara meza, ifite kandi amakaro ari mu ibara ry'umukara n'umweru, hahagazemo umuntu kandi ifite n'intebe zifite ibara ry'umukara.

Icyumba cy'uruganiriro gisize irange ry'umweru, kirimo intebe zambaye umwenda w'umweru ndetse n'imisego irimo ibirabyo by'umweru, impande y'izo ntebe hari ikivaze giteyemo ikirabyo kirekire cy'igiti, bigaragara ko iki cyumba ari icy'uruganiriro kandi ari cyiza.

Intebe nziza ziri ku makaro zisa umweru ndetse n'umukara, zitwikiriye hejuru ku buryo izuba ritakwica, ziri ahantu muri resitora iri impande y'ahantu hari utwuma tugiye turimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo tuhazitiye

Inzu nini cyane isize irange ry'umweru ya etaje ifite imitaka ya Eyateri imbere yayo, hateye n'intebe abantu bakwicaraho, hari kandi pisine imbere yayo iri mu ibara ry'ubururu.

Inzu nini cyane iri ku muhanda, isize irangi ry'umuhondo, imbere y'iyo nzu hari feruje, kandi ikikijwe n'ibiti bifite amashami ndetse n'amababi y'icyatsi kibisi biri ku muhanda impande y'iyo feruje nyine.

Abakobwa babiri, bari imbere muri kontineri, mu nzu isize irangi ry'umuhondo, hejuru ifite purafo isize irangi ry'umweru, umwe yambaye ikote ry'umukara, n'ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru, bari ku mbaho zigize iyo kontineri nyine, zisize irangi rijya gusa n'umuhondo.

Inzu nini cyane nziza ya etaje isize irange ry'umweru n'umutuku, ibirahure byayo birasa umukara, imbere yayo hateye jaride nziza ya pasiparumu irimo ibiti n'indabo bihumura neza.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, kuri iyo nzu hometseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, cyanditseho Prime insurance, inyuma y'iyo nzu hari ipoto ndende iriho itara rimurikira abagenzi ku muhanda.

Umugabo wicaye mu cyumba gisize irange ry'umweru, wambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara; impande ye hari akameza gakoze mu mbaho, imbere y'ako kameza hari akadobo bajugunyamo imyanda gasa umukara; ndetse impande y'ako kadobo hateretse amazi yo kunywa ari mu bwoko bwa Jibu.

Inzu nziza cyane ya etage isize irange ry'umuhondo hejuru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo sonarwa, imbere yayo hari jaride nziza cyane iteyemo n'ibiti birebire kandi ikikijwe na porutaye igizwe n'amabuye ndetse n'ibyuma bisize amarangi y'umweru.

Inzu nziza ya etaje ifite ibirahure bibonerana, birimo icyapa cy'ubururu n'umuhondo ndetse na move. Yanditsemo amagambo ngo Nyarutarama. Hasi hariho inzugi zigiye ziriho ibindi byapa bisa ubururu ndetse n'umuhondo, handitsemo ngo hamagara rimwe, gatatu, kabiri, zeru.

Icyumba kiza gisize irangi ry'umweru kirimo utubati tugiye turimo amakaraseri. Muri icyo cyumba hicaye abagabo batatu n'umugore umwe, muri abo bagabo batatu umwe ari imbere ya machine. Umugore umwe nawe wicayemo afite machine imbere ye, bigaragara ko ari nkaho ari gukora akazi. Imbere y'umugabo umwe hicaye undi mugabo wambaye agapira k'umweru bisa naho yaje kwaka serivisi.

Inzu nini ifite inzugi z'ibirahure hejuru kuri iyo nzu hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ngo ariyanza, imbere muri iyo nzu harimo intebe z'umukara, iyo nzu kandi isize irangi ry'umuhondo, hirya y'iyo nzu hari akapa kanini kayobora abantu.

Abantu babiri umugore n'umugabo umugabo yambaye ikote ry'umutuku n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru umugore yambaye igitenge ndetse yambaye n'amarineti haragaragara ko bari imbere ya gushe ya banki agiye nko kubika cyangwa kubikura amafaranga.

Inzu ndende cyane ya etaje, ifite amakaro y'umweru mu mpande n'ibirahure, iri iruhande rw'inzu yanditseho Mowa inshuwarensi. Imbere y'izo nzu hari ibiti by'imikindo n'igiti kinini cy'amashami, impande yabyo hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari n'undi mugabo wambaye umupira w'umweru uri kuvugira kuri terefone.

icyapa kiriho ibara ry'umweru ku mpande harimo ibara ry'umutuku ryanditsemo amagambo u a pa, munsi yacyo hari umugabo wambaye ingofero y'mutuku ,n'ishati y'umuhondo, n'ipantaro y'umukara. Inyuma y'uwo mugabo hari abagabo babiri bari kugenda umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki, undi yambaye ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru n'imbere ndetse n'ipantaro ya kaki.

Umukobwa mwiza w'inzobe uriguseka ufite imisatsi miremire, wambaye ishati y'umweru irimo ubudomo bw'umukara. Ahagaze impande y'urugi rw'imodoka rukinguye y'umukara. Afite kontaki mu ntoki bigaragara ko ariwe nyiri iyi modoka.

Imodoka nziza iteye irangi ry'umweru itwawe n'umukobwa wambaye agapira k'umweru, hejuru yayo hari icyapa cy'icyatsi kibisi cyanditseho ngo wayitunga nawe. Iruhande rwayo hari umugabo wambaye rinete n'ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara uri kuvugana n'uwo mukobwa.

Icyumba cya banki gikoraniyemo abantu benshi bamwe bahagaze abandi bicaye. Imbere y'umukozi wa banki hahagaze umugabo ufite igitabo n'ikaramu mu ntoki wambaye ishati y'umweru. Impande y'uyu mugabo hari undi mugore wambaye agapira k'ubururu ufite imisatsi miremire, bigaragara ko uyu mukozi wa banki arimo aramwereka mu gitabo ibikorwa byagiye bihakorerwa.

Imbaraza z'inzu ziteye irangi ry'umweru n'umuhondo ziriho akapa gatukura hejuru, zifite ibicuruzwa byiganjemo imyenda, bifite ibara ry'ubururu, inzuzi zazo na zo ziteye irangi ry'ubururu.

Umukobwa ufite umusatsi wa naturere wambaye urunigi mu ijosi n'agashati k'umweru ufite telefone ku gutwi inyuma ye hari amagambo ahanditse avuga ngo ugera ku nzozi zawe n'inguzanyo itazigamiye ya agisesi banki biragaragara ko arimo aramamaza.

Icyumba cyiza gipavomesheje amakaro hasi, gisize irangi ry'umuhondo n'umweru, giteye irangi ry'umweru hejuru kuri parafo, mu imbereye muri icyo cyumba hari umukobwa usa nkaho ari gutanga serivisi za banki, muri icyo cyumba kandi hari intebe bicaraho.

Abantu benshi biganjemo abagore, bahagaze imbere y'akazu k'ibyatsi n'inzu y'ibati, abo bantu bafite ibikoresho bitandukanye birimo utubase n'utudobo ndetse n'ibindi bikoresho, bigaragara ko barimo barakusanya imfashanyo cyangwa inkunga runaka.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo avuga ngo kwizi tayimu, kiriho umusore wambaye ishati y'ikijuju n'isengeri y'umweru n'ikabutura y'umukara usa nkaho wishimye hariho ibibazo bigiye bitandukanye bigaragaza ko uyu muntu arimo aragura ibintu onulayini.

Umukobwa w'inzobe wambaye ingofero y'umukara n'imisatsi miremire, wambaye ibaji y'umweru n'umupira w'umweru, n'ipantaro y'umukara. Afite ibipapuro biri hejuru y'ameza asize irangi ry'umweru n'agacupa impande ye ndetse n'ikarita y'irangamuntu. Imbere ye hari abasore babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse umwe ahetse n'igikapu cy'umukara.

Icyapa cy'umweru cyanditseho ''Urwego banki'' kiriho ibara ry'umukara hasi, kiriho ifoto y'umumama ukuze ufite imisatsi isutse, wambaye ikanzu irimo amabara; y'umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'umukara; imbere ye hari ikigori gifite ibibabi by'cyatsi kibisi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibitoki, amateke, karoti, imineke ibijumba, imyembe ndetse n'imyumbati, harimo abantu bagiye batandukanye, baje guhaha kandi ibyo bicuruzwa.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo inyanya, intoryi ndetse n'imiteja, imbere muri iryo soko hicaye umwana wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umutuku, uri imbere y'ibase y'umweru irimo inyanya n'agashashi hejuru k'umukara, impande ye hari umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, uri gutonda inyanya ku ibase bigaragara ko arimo arazigurisha.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zisize irangi ry'umweru, hiryay'uwo muhanda hari inzu nini cyane ya etaje imeze nk'isoko, iyo nzu imanitseho ibyapa bya mtn biri mu ibara ry'umuhondo, kandi hari n'igiti kirekire, hari kandi umutaka wa airtel money, hahagaze n'abantu bigaragara ko bari kwaka serivisi zo kubika no kubikura.

Abagabo batatu bahagaze ahantu mu cyumba gicururizwamo ibintu bya made in Rwanda, byiganjemo ibikapu, uduseke ndetse n'utwibo dutandukanye, imbere y'abo bagabo haparitse igiseke kirimo ikindi giseke, bigaragara ko baje kugura cyangwa kugurisha ibi bicuruzwa.

Isoko ry'imyenda n'ibikapu birimo abantu baje guhaha imyenda n'ibikapu, umwe yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, undi yambaye akagofero k'umukara n'ikanzu y'icyatsi kibisi kijimye afite na kenda mu ntoki gasa umweru. Hirya yaho hari abahungu babiri, umwe yambaye agapira k'umuhondo, undi yambaye agapira k'icyatsi kibisi n'ipantaro yikoboye, bose bigaragara ko baje guhaha.

Imitako iboshye mu bwoko bw'utwibo ndetse n'imifuniko y'uduseke igiye itandukanye igizwe n'amabara atandukanye harimo iyo mu mabara y'umweru n'umukara, yo mu mabara y'ubururu n'icyatsi kibisi.

Umugabo ufite umusatsi muke ku mutwe wambaye umupira w'umutuku, uje mu iduka ricuruza imbuto harimo; amaronji, imineke ndetse n'amatunda, ari kumwe n'umukobwa ucuruza, wambaye igisurubeti cy'ubururu n'agapira k'ubururu.

Ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye harimo ibishyimbo, imiceri, amashaza ndetse n'amagi biri mu isoko, bigaragarako ari supamaketi barimo baramamaza ibicuruzwa byabo.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibigori bivunguye ndetse na karoti na shufurere. Muri iryo soko hahagaze umugore uteze agatambaro k'umutuku ndetse wambaye amarinete y'amaso na jire iri mu ibara ry'umukara bigaragara ko yaje guhaha shufurere.

Isoko ry'imboga hagaragaramo inyanya, n'intoryi ndetse n'insenda. Muri iryo soko harimo umugore wambaye agapira k'umukara ukinyeye n'igitenge, uteruye akabase k'ubururu kuzuye inyanya, imbere ye hari ibase y'umukara na yo irimo inyanya, inyuma ye kandi hari umugore wambaye agapira k'umweru, ucigatiye agafuka mu ntoki, iruhande rwe hari undi mugore wambaye agapira k'umukara ufite imvirope mu ntoki, bigaragara ko baje guhaha.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bimwe biri mu ibase, ibindi biri ku nkoko, ibindi biri ku rutaro, harimo ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibitoki, hirya yabyo hari abantu bicaye basa naho bari gucuruza ibyo bicuruzwa.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, badanditse inyanya, ibitunguru, karoti, amashu n'intoryi, hirya kuri iryo soko hari inzu imanitseho icyapa cya MTN ndetse hari n'abantu buzuye muri iryo soko, bigaragara ko baje guhaha.

Inzu nziza nini ya etaje isize irangi ry'umuhondo hejuru, ndetse n'irangi ry'icyatsi kibisi, hasi imbere yayo hahagaze abantu benshi bigaragara ko baje mu isoko, iyi nzu ifite ibicuruzwa bitandukanye, hejuru y'iyo nzu hari insinga z'amashanyarazi.

Isoko rikoraniyemo abantu hagaragaramo ko hacururizwa imbuto z'inanasi, impande y'izo nanasi hahagaze umugabo wambaye ishati y'icyatsi cyijimye, n'ipantaro y'icyatsi cyijimye, n'inkweto za sandali z'umukara, imbere ye hari undi muntu witambiye agatambaro k'umukara mu mutwe ndetse yambaye ikanzu y'Abayisilamu, ahagararanye n'undi mugore uteze ingofero mu mutwe itukura.

Urubaraza rw'isoko ry'ibicuruzwa ry'imyenda, ibikapu ndetse n'amashuka n'amarido; impande yaho hari urujya n'uruza rw'abantu baje kugura ibyo bicuruzwa nyine, muri abo bantu harimo umukobwa wambaye ingofero n'ishati y'icyatsi cyijimye n'ijipo iri mu ibara rya shokora yijimye.

Icyapa cyo mu ibara ry'umuhodo cya emuteyeni, cyanditseho ngo ishyura na emutiyeni mobiyilo mani, hariho amagambo avuga ngo, getiponge intapurayizi, handitse kandi kode karindwi, umunani, icyenda zeru, kabiri, zeru.

Ibiganza bibiri bicigatiye telefone muri iyo telefone handitsemo ngo ishyura 500 ubone megabayiti amayinite momopeyi hepfo hakaza 0 itubwira ko tugomba gusubira inyuma.

Ikiganza gicigataye telefone ya gatucshe, iri mu ibara ry'umukara, mo imbere muri gatushe, hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ngo shyiramo amafaranga, inyuma ya gatushe hari icyapa cya MTN cy'umuhondo, cyanditse ho amagambo ngo ishyura na momo peyi.

Icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo ngo peyi wivi Momo peyi, handitse kandi ngo kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu akanyenyeri urwego, hariho kode iri mu ibara ry'ubururu yari rimwe zeru umunani, kane cumi na gatatu.

Akazu ka MTN gasize irange ry'umuhondo, gakinguye amadirishya abiri, mo imbere harimo icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo n'icyapa cya Airtel kiri mu ibara ry'umuhondo. Imbere yako hahagaze umuntu wambaye umupira w'umutuku, ugaragaza ko aje kwaka serivisi zo kubitsa no kubikura.

Umugabo n'umugore, umugore wambaye ingofero y'ubururu irimo akabara k'umuhondo, wambaye n'umupira w'umuhondo urimo n'utubara tw'ubururu ku ijosi no ku maboko, wambaye ipantaro y'ikoboyi ufite isaha ku kuboko, ahagararanye n'umugabo wambaye ingofero, wambaye umupira w'umukara ucigatita telefoni mu ntoki, bisa nk'aho barimo barahana serivisi runaka.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo ya emutiyeni barimo barasuhuzanya, bari imbere y'umutaka wa emutiyeni, inyuma yabo hari abantu benshi babakikije, bigaragara ko abo bagabo ari abakozi ba emutiyeni.

Akazu ka airtel kari ahantu hapavomesheje amapave. Mo imbere muri ako kazu, harimo abantu benshi, umwe yambaye ingofero y'umutuku n'umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ni we uri imbere bigaragara ko ari kwaka serivise runaka. Inyuma ye hahagaze umugore wambaye umupira w'umutuku n'agasakoshi ku rutugu n'ipantaro y'ubururu.

Icyapa cya MTN cyanditseho ngo : "Ishyura na momopeyi." Hariho imibare irimo akanyenyeri, rimwe, gataradatu, gatanu, akanyenyeri, gatatu, urwego. Hasobanura kandi ko wishyura nta kiguzi utanze. Handitseho kode gatandatu, zeru, zeru, rimwe, umunani, gatatu.

Moto ebyiri ziparitse ziriho ibikarito kimwe kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse na orange, ikindi kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hirya y'izo moto hari ibiti birebire, imbere y'ibyo biti hateye indabyo kandi harimo ipoto iriho itara rimurikira abagenzi ku muhanda.

Imodoka y'ikamyo isize irangi ry'umuhondo n'ubururu yanditseho amagambo avuga ngo iposita. Iri imbere y'inzu ya etage yubakishije amatafari y'impunyu, isize irangi ry'umuhondo, hepfo yiyo modoka hari umugore uri kuri tefone ufite umwana mu ntoki wambaye iniforume.

Isahani y'umukara irimo ibiryo byivanzemo amakaroni, irindazi ndetse n'igi, hariho hejuru ikintu cy'umweru, biragaragara ko ari ibiryo birimo biramamazwa, hejuru yayo handitse ngo mu rukari maketi sumati.

Umumotari wambaye kasike y'umutuku, uri kuri moto ucigatiye telefone mu ntoki, n'amafaranga, wambaye ijire y'akazi ndetse n'ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, ahetse igisanduku gifite ibyapa mu mpande byanditseho rashi fudu.

Umugabo uhetse igikapu gisa n'icyatsi kibisi cyanditseho vuba vuba yambaye umupira w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara afite akagare mu ntoki imbere ye hari porotaye iyo porotaye impande yayo yubakishije amatafari y'impunyu kandi hariho ibiti birandaranda kuri ayo matafari imbere y'urwo rugi hari amabati asa umweru.

Umugabo wambaye ingofero imurinda gukomereka igihe agize impanuka na rinete, ari ku igare rya darayeri, yambaye ishati y'icyatsi kibisi n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, ahetse igikapu kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi gifite imishumi y'ubururu, hejuru ye handitse amagambo avuga ngo vuba vuba.

Aagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku n'inikweto z'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, uri kumwe n'undi mugabo wambaye kasike y'icyatsi kibisi n'agapira k'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara bose impande yabo hari moto iri mu ibara ry'umukara, ihetse igikarito. Ruguru yabo hari urugi rusize irangi ry'umukara.

Ifoto igizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu yanditseho amagambo avuga ngo gushakisha serivisi. Hepfo hari ahanditse amagambo avuga ngo ikemezo cy'uko, uri ingaragu, serivisi z'ubutaka, kwemeza ko umuntu ari imfubyi n'ibindi n'ibindi.

Abamotari babiri bari mu muhanda wa kaburimbo, umwe ufite moto ifite purake ya RC, icyenda, rimwe, umunani, x, ahetse umugenzi wambaye kasike y'icyatsi kibisi n'agapira k'umweru n'ipantaro y'umweru n'inkweto zitukura. Ari kumwe n'undi mumotari na we wambaye kasike y'icyatsi kibisi, uhetse umugenzi ufite imisatsi miremire n'agakote ka kacyi n'ipantaro y'ubururu, ufite kasike iriho zeru, karindwi, umunani, rimwe, zeru, zeru, zeru, gatatu, kane, yanditseho sefu motozi.

Umumotari wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku n'umupira utukura n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, ahetse igisanduku na cyo kiri mu ibara ry'umutuku, yambaye agapfukamunwa kari mu ibara ry'umukara, hirya ye hari icyapa cyanditseho amagambo.

Icyumba cyo kuryamamo kirimo igitanda kijya gusa umukara, gisasishije amashuka y'umweru, hariho n'imisego y'umweru. Icyo gitanda hasi hari amakaro arimo ibara ry'umweru n'umukara, icyumba kandi giteye irangi ry'umweru.

Inzu nziza irimo intebe nziza z'amadive, muri iyo nzu harimo televiziyo ndetse n'utako turi mu ibara ry'umukara n'umweru. Ku miryango y'iyo nzu, hasize irangi ry'umukara kandi ifite amarido arimo ibara ry'umukara n'umweru.

Uburiri bwiza bushashe buriho kuvureri y'amabara y'umukara n'umweru, hashasheho n'amashuka yo mu ibara ry'umweru, haruguru ku gitanda hari imisego igizwe n'ibara ry'umweru, buri mu cyumba gisize irangi ry'umweru.

Inzu nziza cyane ya etaje isize irangi ry'umweru, ifite amakaro hasi kandi imbere yayo hapavomesheje amapave, ifite igikuta cyubakishije amatafari y'impunyu, imbere y'icyo gikuta hari jaride irimo indabo nziza cyane.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari amakaro arimo ibara ry'umukara n'umweru, hasi y'inzu imbere y'inzu hapavomesheje amapave afite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, imbere yaho handitse amagambo yanditse ngo Kanombe, Kigali city.

Salo nziza igizwe n'intebe ebyiri, imwe ifite umwenda w'umuhondo indi ifite umwenda w'umweru, harimo udusego tw'umwenda w'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hari aka ameza gakoze mu biti. Hirya yayo hari indi meza ikoze mu biti ikikijwe n'intebe z'umukara ziri mu karyango gafite irangi ry'umweru.

Inzu nini isize irangi ry'umuhondo, ifite akadirishya ku ruhande gakinguye, ifite korotire ikozwe mu matafari y'impunyu, iruhande rwayo hari igiti kirekire cy'umugasiya gifite amashami asa icyatsi kibisi.

Inzu nziza ya etaje isize irangi ry'umuhondo n'umutuku mu mpande, imbere yayo hateye indabyo nziza cyane ziri mu mabara y'umweru, imbere y'iyo nzu hapavomishije amapave agiye arimo uturongo dutukura, biragaragara ko iyi nzu ari iyo guturamo.

Inzu ndende ya etaje igeretse kabiri isize irangi ry'umutuku, imbere yayo hari amavaze ateyemo ibiti n'indabo by'imitako, ku ruhande rwayo hari indi nzu isize irangi ry'umuhondo ndetse igipangu cy'iyo nzu gifite irangi ry'umweru n'umuhondo.

Akayira k'abanyamaguru, gakikijwe na pasiparumu kari hagati y'ibipangu bibiri, kimwe cyubakishije amatafari y'impunyu, ikindi gisize irangi ry'umuhondo n'iry'umukara, imbere gato hari ipoto ifite insinga z'amashanyarazi n'inzu zisakaje amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Inzu nziza iteye irangi ry'umweru, yubakishije amakaro, imbere yayo ha bavumesheje amapave, hariho icyapa cyanitseho ngo harimo ibyumba bitatu byo kuraramo, ikodeshwa ibihumbi magana ane iri Kimironko.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umuhondo isakaje amabati atukura, ku kabaraza k'iyo nzu hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere y'iyo nzu hari amapave ahapavomye ndetse munsi yayo, hari icyapa cyanditseho ko iyo nzu ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi.

Inzu nziza yo guturamo, isi irangi ry'umuhondo n'umukara hejuru, ifite akabaraza k'amakaro, inkingi zako zisize irangi ry'umweru, ituye Kigali Kanombe, igaragara ko harimo ibyumba bine ndetse na dushe eshatu, ni inzu yo gukodesha.

Urugi rwa mitarike rw'ibirahure rusize irangi ry'umweru ku mpande, ruteye ku nzu iteye irangi ry'umuhondo, rurimo urufunguzo rwa mitarike. Kuri urwo rugi hari akapa k'umutuku kanditseho ko iyo nzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inzu nziza cyane, isize irange ry'umuhondo n'umukara, ifite igipangu kiyikikije, gikozwe n'amatafari y'impunyu, hejuru hagaragara inkoma z'insina kandi handitseho amagambo, agaragaza ko iyo nzu iri kugurishwa, i Kigali Kanombe.

Inzu iteye umucanga ifite urugi n'idirishya, bifite irangi ry'umutuku imbere, yayo hari jaride ya pasiparume, hirya yayo hari igiti kinini bigaragara ko umuntu yacyugamomo izuba.

Isoko ry'aho bacururiza ibikapu n'inkweto ndetse n'amamarete, hari abagabo bagiye guhaha ndetse umugabo umwe muri bo yambaye ingofero y'ubwoko bwa isilamu n'ishati y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bugiye butandukanye hagaragaramo ubucuruzi bw'imyenda, inkoko ndetse n'udupaniye. Imbere hicaye umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'inkweto z'umweru, hasi y'iyo nzu hari amakaro agizwe n'amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Icyumba kirimo ubucuruzi bw'imyenda igiye itandukanye imanitse kuri za maneke, gipavomesheje amakaro, gisize irangi ry'umweru. Muri icyo cyumba harimo abantu bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'ayandi mabara, bigaragara ko baje guhahira muri icyo cyumba.

Icyumba cy'ubucuruzi gisize irangi ry'umutuku kimanitseho ubucuruzi bw'amatara yo mu nzu, imbere harimo abantu batatu, babiri baje kugura ni abagabo bambaye udupfukamunwa tw'umukara, undi yambaye ishati y'umweru n'umukara, undi yambaye agapira karimo ibara ry'umweru n'ipantaro y'ubururu, imbere yabo hahagaze umugore wambaye agapira kajya gusa umuhondo ni we uri kubagurisha.

Ifoto y'isoko rya etaje rigiye ririmo ibicuruzwa bitandukanye; harimo imyenda imanitse kuri za maneke; hasi hari amakaro, hejuru hubakishije ibyuma ndetse riteye irangi risa n'umuhondo.

Alimantasiyo icuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibirungo, hahagazemo umukobwa wambaye agapira k'amaboko k'umweru n'ipantaro y'umukara, ibyo bicuruzwa bigiye bipanze mu ma etajeri, hakurikijwe nyine uko bigiye bigurwa.

Iduka ry'imyenda ririmo abaguzi baje kugura imyenda, harimo umugore ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye ikoti ry'umukara, impande ye hari undi mugore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko baje kugura imyenda.

Abagore batatu bameze nk'abahuriye muri supamaketi guhaha, umwe yambaye ikanzu y'umutuku, undi yambaye ikoti ry'umukara ndetse afite n'agasakoshi k'umutuku, undi yambaye umupira w'umweru na we afite agasakoshi k'umukara. Bari imbere y'ibicuruzwa bagiye guhaha.

Umugabo wambaye ingofero n'amarinete n'ishati y'umweru na karuvati itukura, uhetse agakapu kari mu ibara ritukura, ari ku cyapa cyanditseho ejo heza kandi hasi handitseho amagambo avuga ngo:" uzakomeza kurimba no muri pansiyo, bigaragara ko arimo aramamaza.

Impande ebyiri zitandukanye ziragaragara ku ikarita y'ubwishingizi bwo kwivuza ya mituweri do sante hamwe handitse amagambo ya ra sa sa wa bigaragara ko ari ubwishingizi bwa RSSB, ahandi ku ruhande hari abantu batatu bitwikiriye mu mutaka, impande yabo handitse ngo mituweri.

Ababyeyi babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari inzu isize irangi ry'umuhondo n'icyatsi kibisi. Umwe ateze agatambaro k'umuhondo mu mutwe, yiteye n'agasharupe mu ijosi. Undi ateze igitenge cy'umuhondo, na we yitwikiriye agashuka k'umweru. Bombi bafite amakarita mu ntoki ya mituweri.

Umugore wambaye ingofero iri mu ibara ry'umuhondo imurinda impanuka, n'amarinete mu maso, n'amaherena ku matwi, wambaye igisureti cy'ubururu n'ishati y'umweru, akaba afite inyundo ku rutugu ikozwe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, ari ahantu handitse amagambo ngo Ejo Heza. Hepfo kandi handitse ngo ntuzatinye izabukuru.

Abagabo babiri bari imbere y'icyapa cyanditseho RSSB, bafite icyapa mu ntoki, umwe yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara undi yambaye ikoti ry'umuhondo n'ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Ikiganza gicigatiye ikarita y'ubwishingizi bwo kwivuza iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho amagambo ngo repubulika y'u Rwanda munsi y'ayo magambo hariho agaseke k'ikirangantego cy'u Rwanda hepfo yaho handitseho akarere ka Kicukiro.

Icyapa cya Ejo heza kiriho ifoto y'umugore uteze igitambaro wambaye n'igitenge gitukura, imbere ye hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati ndetse ufite mikoro handitse ngo Ejo heza, bigaragara ko aba bantu bari kuri iki cyapa barimo baramamazazo Ejo heza.

Umukobwa wambaye ikoti ry'ikoboyi n'agapira k'umutuku ufite imisatsi miremire, wambaye ga imwe ku kuboko kumwe kw'iburyo, ucunze imbuto mu gapaniye harimo inanasi, amashu, intoryi asa n'uri muri supamaketi.

Inzu nziza, ifite amakaro y'umweru n'umukara, irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, amagi, imboga n'ibindi n'ibindi. Imbere hahagazemo umugabo wambaye rakosite irimo umweru n'umukara n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko yaje guhaha, impande y'uwo mugabo, haparitse akapa k'umuhondo.

Icyumba cyiza gisize irangi ry'umweru, cyubakishije amakaro hasi, muri icyo cyumba harimo uturetajeri na two dusize irangi ry'umweru, tugiye dupanzemo ibitabo, hahagaze kandi umugore ufite imisatsi miremire, wambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara ufite n'agapaniye mu ntoki.

Ibicuruzwa bitandukanye bigiye bimanitse kuma etajeri biri mu bikombe bisize ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku; hino yaho hari amadebe afite irangi ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu n'umweru; impande y'ayo madebe hari abagore babiri umwe yambaye agapira k'icyatsi kibisi; undi yambaye agapira k'umutuku bigaragara ko ari guhanagura ama etajeri.

Inzu nziza cyane y'ubucuruzi bw'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, isize irangi ry'umweru, mo imbere harimo abantu baje guhaha, umwe muri bo yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umweru, ku ruhande rwe hari undi witandiye agasharupe k'umutuku yambaye n'ikanzu y'umweru. Inyuma yabo hari abandi baje guhaha ibiribwa bigiye bitandukanye.

Alimantasiyo irimo imbuto zitandukanye, ziganjemo ibinyomoro, pome, amacunga ndetse n'inanasi. Hari kandi n'ibindi bicuruzwa bigiye bifunze mu dukarito bitandukanye. Bigiye biteretse ku mayetajeri yubatse mu mbaho, ahantu biri harasa umuhondo.

Icyumba cy'ubucuruzi cyubakishije amakaro hasi, kirimo ibicuruzwa bitandukanye bigiye bifunze n'ibindi birimo amaronji ndetse n'imiteja bidafunze, imbere muri icyo cyumba harimo umugore ufite imisatsi miremire, wambaye n'ishati y'umukara, bigaragara ko ari gucuruza.

Icyumba cy'ubucuruzi butandukanye bwiganjemo ubwoko butandukanye bw'amabiswi hahagazemo n'agacupa k'amazi. Harimo umuntu wambaye ishati y'umukara n'agakomo ku kuboko ufite ishashi y'umweru arimo aragenda ahahiramo ibicuruzwa.

Icyumba kirimo ubucuruzi butandukanye, harimo za vimu zikuba tuwarete, hahagazemo umugore munini, wambaye ikoti ry'ikoboyi agapira k'umuhondo mu imbere ndetse n'ijipo y'ikoboyi n'inkweto z'umukara, irangi riteye muri icyo cyumba ni irangi ry'umweru kandi cyubakishije n'amakaro.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo amaji, amabiswi ndetse n'ibindi bigiye bipanze mu tu etajeri tw'umweru kandi biri mu nzu isize irangi ry'umweru, hasi ifite amakaro arimo umweru n'umukara.

Alimantasiyo nziza cyane ifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo amabiswi n'amabombo by'ubwoko bwose, iyi alimantasiyo hasi hayo hashashishije amakaro y'umweru, ibyo bicuruzwa kandi biri mu ma etajeri agiye atandukanye, imwe isa umutuku, indi isa umukara ndetse n'iri mu bwoko bw'imbaho.